Igikorwa cyo gutanga ibihembo ku bahatanye abatsinze abaharushijera abandi ibyishimo ku batsinze n'ibyishimo ku bahatanishije abakoresheje amarushanwa kuri miliyoni zigera kuri mirongo ine neshatu n'ibihumbi maganacyenda makumyabiri na bitanu konguratirasheni.

Abaturage bitabiriye ubutumire, bashyira hejuru amaboko imbere y'ikidari kirimo abatumiwe, abashinzwe umutekano b'abarinze ku musozi ukikijwe n'ibiti by'icyatsi.

Icyumba cy'inama kirimo abantu baganira, bandika bakoresheje amakaye n'amakaramu, amamashini, bicaye mu ntebe zisa ndetse bari kunywa n'amazi y'inyange.

Icyumba cy'inama kirimo abantu bagizwe n'iyo nama ameza ndetse bateretse amazi imbere n'ibyo bari kwifashisha bandika ibivuyemo muri iyo nama bose barakurikiye bateze amatwi urimo avuga .

Uko beride ishishikariza abayigana kunogerwa na serivisi baciye kuri mudasobwa: iyo ushaka gushora imari mu Rwanda cyangwa kumenyekanisha ibikorwa byawe mu Rwanda, wininjira muri sisitemu ya beride, ukaguhitamo ururimi ushaka ugakoresha, indangamuntu yawe, cyangwa imari yawe, ugakurikiza amabwiriza.

Abanyeshuri bari kwigishwa mudasobwa. Umwarimu yikingiye, yambaye agapfukamunwa n'abanyeshuri bose bikingiye bambaye agapfukamunwa. Ari kuberekera akura muri mudasobwa y'ubumwe, undi nawe arebera ku y'uwundi.

Kuburira ndetse no kurarika abatuye u Rwanda kugira ngo ntibatege amatwi ibyo abagizi ba nabi bababwira, bashaka kubibira amafaranga biyitiriye ibikorwa cyangwa ibigo bya leta mu rwego rwo kubiba.

Mu Giporoso ni ahagana i Remera mu mujyi wa Kigali haba urujya n'uruza rw'ibinyabiziga kandi uyu muhanda uba uhuze cyane urimo amamoto imodoka zitwara abantu n'izabantu ku giti cyabo .

Ibyapa biburira abakoresha bisi rusange harimo kudahererekanya amafaranga mu ntoki, gukaraba intoki mbere yuko wjira muri bisi, gusiga hagati metero hagati yawe na mugenzi wawe, kwambara agapfukamunwa neza gasukuye, kudahererekanya ibiganza mugihe musuhuzanya mupeperana.

Itunganywa ry'amashanyarazi rikorwa n'ab'inzobere zibizobereyemo, hejuru ku mapoto ari ku muhanda yegereye ibikorwa remezo, mu rwego rwo kunoza urumuri muri karitsiye.

Ibikorwa remezo birimo amashanyarazi bigaragazwa n'amapoto ahagaze ku muhanda, akikijwe n'ibiti ategereye aho abantu batuye, kugira ngo ntihagire ikibazo na kimwe azateza ku buzima bwa buri munsi.

Inzu igurishwa iba iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu ikaba ifite amadirishya atatu manini n'umuryango munini ifite urubaraza rusashemo amabuye y'umweru n'umutuku ifite ibikuta bisize amabara y'umweru n'icyatsi n'amabati manini.

Uyu ni umuhanda wo mu bwoko bwa kaburimbo usize amabara y'umukara n'imirongo y'umweru aranyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka na moto, hirya gato hari ibiti birebire bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Imodoka yifashishwa mu gutabara indembe z'abarwayi iite purake ya ga, ra maganabiri mirongo icyenda na gatandatu, iparitse muri parikingi yayo.

Uburana n'umwavoka wiwe, baganira ku bintu bimwe na bimwe, bikingiye bambaye udupfukawa bombi, hari abarinzi, hari izindi mfungwa zindi zisanzwe zicaye zaje gukurikirana urukiko.

Ibikarito bigiye bikubiyemo inkiko za gacaca bitewe n'aho nyiri kuburana yabaga, hari izo muri muhanga harizo muri muhanga ari izo muri muhanga handi ariko muri karama ari muri muhanga musenyi, hari muri muhanga ruhangata, ibyo byose biranga buri muntu n'urukiko rwe.

Igazeti isobanura neza ibihano ndetse n'ibyaha ku biri ruswa, gusaba kwakira cyangwa gutanga indonke binyuranyije n'amategeko bitari iby'urukiko, byanzuye bihanirwa neza imbere y'amategeko i iyigazeti n'ibyosobanuro.

Ku mupira wa kizimyamoto wifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, uba uri ahantu runaka hahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro ndetse no mu ma sitade, uyu mupira wifashishwa ubusukira amazi bitewe n'ahantu inkongi y'umuriro iri.

Inzu y'inteko ishingama amategeko yateranye abadepite, abasena ndetse n'abaminisitiri bose bateranye bari guhuriza hamwe ibitekerezo kugira ngo barebe icyagerwaho mu gihugu cy'u Rwanda imbere yaho hateretse za mudasobwa hateretse ubucupa bw'amazi ndetse n'urumuri rubasha kuhaboshereza.

Icyapa cya referendumu yo muri bibiri na cumi na gatanu cy'amatora ya komisiyo y'igihugu, abaturage barimo bagenda ndetse n'ikidara cy'umweru.

Urupapuro ruriho abakandida bahatanira kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika hariho uw'ishyaka rya girini pati, Habineza Frank hariho Mpayimana Philippe, hari n'uwa efuperi inkotanyi Paul Kagame utora yahisemo perezida Paul Kagame.

Umukandida wiyamamariza kuba perezida wa repubulika w'ishyaka rya green gurini pate Frank Habineza ari kwiyamamaza abanyamakuru bagenda bamufotora abamwungirije n'abamuherekeje bamugaragiye abaturage bitabiriye inyuma ya senyegi yaho ari bitabiriye baje kumva ibyo abagezaho.

Umugore wambaye ingofero w'inzobe akaba yambaye umupira urimo amabara y'umuhondo, n'umweru, n'umukara, ukaba usa ubururu arimo ibintu bizengurutse inyuma ye hari umubati bubajwe mu mbaho ku gikuta gisa umuhondo hariho igishushanyo cy'inyenyeri akaba afite amajerekani nama tereminsi.

Perezida wa repubulika y'u rwanda mu byishimo bikomeye m'umbaro wa kositimu ibicu by'ubururu ndetse n'amadarubindi y'umukara.

Icyumba cy'itora umuntu usobanura amabwiriza n'uyasobanurirwa, harimo amabara agaragaza idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, udutebo bashyiramo amatora ndetse n'ukurikirana ko agenda neza.

Umukandida w'amatora y'igihugu Mpayimana Philippe mu kwiyamamaza azenguruka intarar z'u Rwanda n'abamuherekeje mu matora ari kuvuga ijambo.

Ibikorwaremezo byangiritse harimo umuhanda kandi ukaba ugikoreshwa ukikijwe n'ibiti birebire. Amatara yo ku muhanda amurikira abakoresha umuhanda ndetse n'pikipiki iri gutambuka.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gitwaye amacupa ya gaze akaba ariwe muntu wambaye umupira w'umukara ipantaro y'umukara n'inkweto zifite ibara ry'umukara akaba hari n'undi wambaye ishati y'amaboko magufi bifite ibara ry'umukara ririmo uturonko mu tw'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara n'umweru.

Urujya n'uruza rw'amamodoka, amapikipiki, abantu, umuhanda ukikijwe n'amatara amurikira umuhanda, abanyamaguru ndetse n'ibiti birebire bikikije uwo muhanda, ibicu byera.

Bisi iparitse muri parikingi yayo, ku muhanda uteye imbere, ibicu by'izuba rirenga ndetse itarimo abantu.

Ubwoko bw'amafaranga atandukanye kandi abarwa bitandukanye birimo biragaragara ko ari amafaranga yo mu bihugu bitandukanye rero buri gihugu kiba kigiye gifite amafaranga gikoresha amafaranga kandi ni meza kuko akora ibintu byinshi bitandukanye mirongo inani kwi ijana muri ubu buzima ni amafaranga cyane cyane ko usigaye ajya no kwa muganga mbere yuko uvurwa bikagusaba kubanza kwishyura nibwo uhita umenya akamaro k'amafaranga

Ibikorwaremezo birimo imihanda yangiritse kandi igikoreshwa, ibikamyoneti bigicaho bikikijwe n'amatara ari ku muhanda amurikira urwo rujya n'uruza rukorerwa muri iyo mihanda kandi rukamurikira n'abaturarwanda, ibiti bikikije umuhanda.

Urujya n'uruza rw'ibikamyo ndetse no mu nkengero hakaba harimo umunyonzi uhetse igitoki, umufuka w'ibirayi, igikarito ndetse ku nkengero z'umuhanda hariho ibiti birebire.

Umumotari uhagaze n'undi ugenda ndetse n'imodoka imanuka, amazu atuwe ndetse n'agasozi gatujwe, ibiti bikikije ahantu hose.

Mu isoko rya Nyabugogo aho bagurishiriza imbuto, umucuruzi yifashi ku itama kuko yabuze abakiriya kandi yari akeneye amafaranga, ari gucuruza inanasi, amapapayi, amaronji, imyembe, ndetse n'ibindi.

Imodoka ihetse umuntu inyuma iri mu muhanda iragenda, n'abanyamaguru mu nkengero ndetse n'ibiti birebire mu nkengero; hari ahantu hapfutswe wagirango bari kubaka.

IKibuga cy'umupira w'amaguru kirimo amapoto abiri rimwe, rimwe riryamye irindi rihagaze, ikibuga gikikijwe n'ibiti ndetse kigizwe n'amapoto ndetse ntabwo kirarangiza kubakwa.

Icyapa kiburira abayobozi b'ibinyabiziga, ko bitemewe kwegeranaho cyangwa kuyinyuranaho muri uyu muhanda, kubera ko ari muto ushobora guteza impanuka bitewe n'izindi ziri kuza. Aba ari umuhanda muto kandi ucamo iziza n'izigenda.

Icyapa kimenyesha n'icyapa cyerekana ko hari ikigo cy'amashuri naho abanyamaguru bambukira; icyapa cyerekana nyarugenge pashoni pulaza, n'aho icyapa cy'amashuri kigarukira.

Imihanda yubatse by'iterambere ibyapa byerekana urujya n'uruza, binoza ingendo z'amamodoka, amapikipiki, ndetse n'abakoresha umuhanda muri rusange.

Kereka umuyobozi w'ikinyabiziga ko ibumoso bwe hashobora gutuka indi modoka ishaka kujya mu muhanda arimo, bigatuma yitwararika mbere y'uko arenga uwo muhanda.

Ikimenyetso gisobanura aho imihanda ihurira, Ihurira ibumoso kikaba mw' ibara ry'umukara, umutuku ndetse n'umweru, kiba kiburira umuyobozi w'ikinyabiziga k' ibumoso bwiwe hashobora guturuka ikinyabiziga...

Ibikorwa remezo birimo umuhanda, icyapa kigaragaza aho bisi z'abanyeshuri ziparika, hamwe n' ibiti bikikije umuhanda, ndetse n'ibicu by'ubururu.

Inzu y'igorofa igeretse kane ikikijwe n'andi mazu yubatse mu mudugudu ibimera bikikije amazu ndetse n'ikirere cyuje ubwiza bw'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi ikoreramo Airtel igakoreramo na supermarket , parikingi y'imodoka ndetse na parikingi y'abamotari umunyamaguru wambuka ndetse n'ibiti bikikije umuhanda.

Hoteli zitandukanye zo mu Rwanda bakunze kubaka ibyo bakunze kwita amapisine mu rurimi rw'abanyamahanga aho ushobora kuba wahasohokera nabawe mukaba mwahagirira ibihe byiza murimo muroga mwishimisha .

Inzu igeretswe rimwe, nshyashya ifite amabara y'ikigina, umweru ndetse n'icyatsi, iramurikiwe, ikikijwe n'ibiti.

Inyubako y’ibicuruzwa wasangamo ibikoresho by’ubwubatsi, ndetse n’amakaro ushobora kubahamagara ku murongo utishyurwa wa mirongo itandatu na gatandatu, mirongo inani n’umunani, bakaba bakorera i Kigali muri Siramiki, niho wabasanga.

Urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, feruje, sitasiyo ya esanse ndetse n'abanyamaguru bagenda mu muhanda, ibimenyetso bishushanyije mu muhanda n'inyubako.

Mu muhanda rwagati mu masaha y'ijoro aha hino kuri iki gice kigendedwaho n'abanyamaguru hari ububiko bwagenewe kubikamo cyangwa kujugunywamo imyanda ikoreshwa n'abakoresha umuhanda harimo ibinyabiziga biri kugendera mu muhanda bibisikana by'umwihariko imodoka inini n'intoya ndetse n'abanyamaguru bari gukoresha umuhanda.

Umuhanda unyura munsi y'uwundi icyapa kigaragaza yuko bitemewe guparika aho hantu ibiti biterwa ku muhanda, ndetse n'urumuri rumurikira abanyamaguru, ndetse n'ibinyamitende, ndetse n'ibinyabiziga bica muri uwo muhanda.

Umuhanda ugeretse ku wundi urujya n'uruza rw'ibinyabiziga ndetse n'abantu, icyapa cyerekana ko hari rawundi abawuti, ibiti bigaragiye umuhanda, urumuri ruboneshereza abanyamaguru, ndetse n'ibinyabiziga by'imodoka cyangwa ama moto.

Amahuriro y'umuhanda ibyapa bimenyesha, ndetse n'ibyamamaza ibikorwa remezo harimo sitasiyo ya lisansi, amazu y'ubucuruzi urujya n'uruza rw'amamodoka ndetse n'abantu.

Ibikorwa remezo biri mu muhanda uteye imbere ukoze neza woroshya ingendo z'abagenda n'abagaruka bityo bikanoza serivisi batanga n'izo bahabwa mu buzima bwa buri munsi.